Ibitaro birimo abaganga ndetse n'abarwayi batandukanye, baje kwivuza bashaka ubufasha bwa muganga, abaganga barimo kwitegereza abarwayi, kugira ngo barebe imiti babaha, akaba ndi kubona harimo n'abakuruwaruje baje gutanga ubufasha bwo kuvura.

Ibitaro biriho imbere yabyo abaganga bambaye impuzankano y'amatabuririya y'umweru, bakaba bivanze n'abandi bambaye amakositimu .Imbere y'ibyo bitaro hakaba hari imodoka ndetse hakabaho n'indi modoka twakwita ambilanse impagukiragutabara itwara abarwayi.

Inzu bacururizamo imiti itandukanye ya kizungu bita farumasi, iyo miti ikifashishwa n'abaturage barwaye bakaza kuyigura. Umunyafarumasi nawe akabona amafaranga abikoramo ubucuruzi ,abantu baje kuguramo imiti irabavura bagakira indwara zitandukanye.

Ibyatsi bitandukanye bigira udushubi n'ibindi bifashisha mu buvuzi bwa kinyarwanda, abavuzi gakondo babyifashishaga iyo babihamuriraho umuntu urwaye akabasha gukira igihe atariyaja mu bitaro bya kizungu.

Ubwoko bw'ibyatsi bimera cyangwa bashobora kubihinga, ariko bikaba bikoreshwa n'abavuzi ba gihanga cyangwa abavuzi gakondo, babivurisha abantu bakabaha amafaranga bigashobora kubakiza, abantu badashoboye kugana ibitaro bya kizungu.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ,bigafasha abarwayi gukira indwara, bashobora guterwa n'abandi, cyangwa se indwara zizanye ariko zikaba zishobora kuvurwa, n'ubu bwoko bw'ibyatsi bitandukanye.

Ubwoko bw'ibyatsi, ibimera bitandukanye abavuzi gakondo bifashisha mu kuvura indwara zishobora kwanduzwa, bitewe n'abandi bantu, bakazikira batagiye ku bitaro bya kizungu. bakabaha amafaranga, nayo akabafasha mu bindi bikorwa bya bo bya buri munsi.

Ubwoko bw'ibyatsi bimera ahantu hadakunda guhingwa, cyangwa bihingwa n'abavuzi ba gakondo bashaka kubyifashisha, kugira ngo bajye barabivurisha abantu, mu gihe abo bantu batagannye ibitaro bya kizungu.

Ibyatsi biri mu murima bitandukanye, byifashishwa n'abavuzi ba gakondo, barabivuza mu gihe umurwayi atari yajyana indwara ye ku bitaro bya kizungu, bikamufasha kuba yakira, nabo bikabafasha kuba babona amafaranga abatunga.